Indege nto zitagira abapilote zitwara ibyo kwifashishwa kwa muganga nk'amaraso n'imiti n'ibindi bikenerwa kwa muganga, zigenda hejuru mu kirere zitwa joni.

Abantu babiri, umwe aricaye ku ntebe, undi arahagaze, yambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'ubururu, arimo aravura uwicaye amuhagaze imbere.

Ivuriro, ikigo nderabuzima kirimo abantu batandukanye, hari imodoka, hari ababyeyi bahagaze begamye ku byuma by'inyubako z'iryo vuriro, hari n'umwana muto uhagaze ahegamye.

Umuntu wicaye yambaye imyenda y'akazi ndetse n'ibikoresho bikoreshwa birinda, ibyo bambara mu ntoki, afite ikaramu ari kwandika, imbere ye hari imiti itandukanye.

Umwana muto uryamye barimo kumupima uburebure, yambaye umupira wa orange ndetse hari nabandi babyeyi bahagaze bamwe bamufashe, abandi bari kureba.

Umuganga ushinzwe kwita ku byo ubuzima bwo mu mutwe wicaye ku ntebe yegamirwa imbere ye hari imashini, yambaye inifomo y'abaganga itaburiya y'umweru ndetse n'ikiranga akazi akora yambaye mu ijosi.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'abantu ndetse n'ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa mu gusuzuma niba abantu bafite umuriro mwinshi wabatera ibibazo, igipimo cy'ubushyuhe ndetse n'imiti yo kuvura abantu.

Inzu icururizwamo imiti yo kuvura abantu. Harimo: imiti iterwa nk'inshinge iri mu macupa, hakaba imiti iri mu bikarito hejuru ndetse n'indi iri mu bikombe.

Aho bacururiza imiti igiye itandukanye harimo umugabo uhagaze yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ikora, afite akabuni gatoya mu ntoki, imbere ye hari utundi tubido duto turimo imiti.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako y'ivuriro bafite igitambaro cyanditseho amagambo ashishikariza abantu kwitabira ibikorwa byo kwita ku buzima bwabo baza ku mavuriro.

Igiterane kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, bamwe bicaye mu bishararagati byubatse, byubakishije amabara y'umweru n'umutuku imbere hari abambaye imyenda y'abakangura mbaga bari gushishikariza abantu kugana ubuvuzi.

Abantu benshi bicaye barimo bahabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, bicaye ahantu hatwikiriye abandi.

Abantu benshi bicaye imbere y'inyubako ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hahagaze umukangurambaga wigisha ibijyanye n'ubuzima, abari imbere yambaye ishati y'ubururu.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, yambaye agapfukamunwa, akagofero ko mu mutwe, itaburiya y'umweru n'ishati y'ubururu, imbere ye hari imiti ifunze mu ducupa, ndetse hari na bogisi agiye kubishyiramo.

Inzu y'ivuriro aho abantu baza kwivuriza, yanditseho izina ry'uko hitwa, hahagaze abantu abagabo n'abagore, abagabo bambaye amakositimu.

Icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Nyagatare. Kigaragaza aho icyo kigo nderabuzima kiri. Hasi hari ururabo, rurimo amabara y'umuhondo n'ay'icyatsi.